Iyi shusho iragaragaza inzu nini cyane ikorerwamo serivisi zigiye zitandukanye, ndetse ikaba ifite na parikingi nini irimo ama modoka ndetse n'abantu bakaba bari kugenda bayigana abandi bavayo, muri serivisi zitandukanye.

Umukandida nyakubahwa perezida Paul KAGAME mu matora yiyamamaza kuyobora igihugu cy'uRwanda nka perezida wa repubulika y'uRwanda.

Iyi ni ishusho igaragaza neza igikorwa remezo cy'umuhanda ugezweho w'iterambere ndetse bikagaragaza n'icyapa cya RSSB, ndetse mu muhanda hakaba harimo moto, amamodoka ndetse no ku gice cy'abanyamaguru naho, hakaba hari kugendaho abandi banyamaguru.

Iyi shusho iragaragaza inzu y'ubwoko bwa etage igeretse inshuro eshatu ndetse ikaba ikoreramo ubucuruzi bwinshi bugiye butandukanye ndetse inatangirwamo n'izindi serivisi zigiye zitandukanye.